Umutaka ukorerwamo ibikorwa bya Airtel, hari abagabo batatu bambaye amajire ya Airtel bigaragara ko ari aba ajenti ba Airtel, bose bambaye udupfukamanwa.

Abantu babiri bari kugenda mu ruhande rw'abanyamaguru, bigaragara ko bashaka kwambuka bajya iburyo bwabo. Ibumoso bwabo hari akazu gato ka MTN bishoboka ko ariho batangira serivisi zabo. Imbere y'ako kazu hari abamotari bicaye kuri moto baparitse.

Akazu gafite irange ry'umuhondo bigaragara ko ari akazu gatangirwamo serivise za MTN, harimo umuntu ufasha abantu kubona izo serivise urugero nko kubitsa, kukuza ndetse n'ibindi.

Icyumba gisa nk'aho kiri kuberamo inama, imbere haragaragara umuntu urimo kuyobora iyo nama ababwira uko bajya batangiza imishinga.

Abantu benshi basa nk'aho bari muri koperative cyangwa se icyo twita ishyirahamwe, bari kuganira ku cyo bakora mu itsinda ryabo, harimo abagore ndetse n'abagabo.

Abantu benshi basa nkaho bari gukora umuganda batera imbuto, harimo abagabo ndetse n'abagore batandukanye abenshi muri bo bambaye bote.

Abantu bicaye hamwe bose bari mu cyumba kimwe, buri wese afite imashini imbere ye, bigaragara ko bari mu kazi ari abakozi ba koperative.

Umuntu usa nkaho ari gutanga ikiganiro abwira ku bantu bagize koperative cyangwa se ishyirahamwe, ari kubagira inama ku cyo bakora.

Abagabo batatu, bicaye imbere basa nk'a bari mu nama, inyuma yabo hariho icyapa cyanditseho ngo kwizihiza umunsi mukuru w'amakoperative, mu karere ka Nyagatare.

Urukuta rw'inzu rwometseho icyapa cy'inzoga yitwa Gatanu. Bikaba byanditse mu mabara y'umuhondo ndetse n'inyuguti ishushanyijeho ya gatanu. Hejuru hakaba harimo idarapo ry'Igihugu ry'u Rwanda.

Akabari gacuruza ibinyobwa ndetse n'ibyokurya, aho abantu basohokera mu gihe bashaka gutembera cyangwa kwishimisha.

Akabari gacuruza ibyo kunywa bitandukanye yaba ibisembuye, ndetse n'ibidasembuye umuntu ashobora kuhasokera mu gihe ashaka kujyana n'incuti ze cyangwa se abandi bantu ashaka.

Ahazwi nko mu kabari, hacuruzwa ibyo kunywa bitandukanye, yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, harimo ameza ateguye neza ndetse n'intebe, abantu bicaraho mu gihe basohokeyemo.

Inzu irimo ibinyobwa byinshi by'amoko yose atandukanye, bigaragara ko ari inzu y'akabari, ku buryo umuntu ashobora kujya kugura inzoga cyangwa se ikindi kinyobwa gitandukanye.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi. Bacuruza ibintu bitandukanye, hano harimo imisemburo bakoresha mu gukora amandazi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi harimo indobo zirimo ibiribwa bitandukanye nk'ubunyobwa, amandazi cyangwa se bakaba babikamo ibindi bintu bitandukanye bacuruza.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo imyenda ndetse n'ibikapu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, hari ndetse n'abantu barimo kudoda.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo n'umuntu udufasha kubona ibyo bikoresho mu gihe tugiye kubigura.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwibintu bitandukanye, hano hagaragara amavuta yo kwisiga ari mu kabati.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, biragaragara ko harimo imyenda itandukanye yaba iy'abantu bakuru cyangwa se amashuka meza.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi harimo umuntu uri kwamamaza ibyo acuruza biragaragara ko ari kutwereka telefoni ariko muri iyi nzu harimo ibintu byinshi bitandukanye by'ibicuruzwa.

Icyumba kirimo, ibicuruzwa bitandukanye, hano abantu bashobora kujya kugura, ibyo bashaka, kugura.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya ndetse n'ibindi byo gukoresha harimo umuntu ucururizamo.

Inyubako nini cyane ifite akantu kazamuye imbere, biragaragara ko ari urusengero abantu bajya gusengeramo.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari urusengero ni inyubako ngari kandi ndende cyane iruhande rwayo haparitse moto ku gice cya ruguru.

Abantu benshi batandukanye bari mu kiriziya. Harimo abagabo, abagore ndetse n'abana. Hano hari umugabo upfukamye arimo gusenga.

Urusengero rurimo abapadiri batandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, bahagaze imbere aho bita ku ruhimbi cyangwa se kuri Aritari.

Abantu benshi bateraniye hamwe bisa nk'aho bari muri kiliziya bari gutanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo, bishobora kuba ari muri kiliziya cyangwa se mu rusengero.

Abantu benshi bari mu rusengero bakaba barimo guhimbaza imana, hari umuntu uri kuvuza ingoma ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye abagore, abagabo barimo kubyina.

Itente ririmo abantu batandukanye bigaragara ko bitabiriye inama. Bishoboka ko bari kuvuga ku bijyanye n'amadini.

Abantu benshi cyane, batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo. Bambaye imyenda itandukanye, bahagaze imbere y'urusengero, runini cyane, rufite umusaraba hejuru.

Umupasiteri w'umwirabura, uri guha ikaze umushyitsi w'umuzungu waje gusengera mu rusengero rwabo kugira ngo abashe kubona ubumwe hamwe nbandi bakiristo.

Inyubako ngari bigaragara ko ari urusengero, imbere yarwo hari indabyo ndetse n'umugore uhagaze, iruhande rwayo hari aho bakarabira mbere y'uko binjira mu rusengero.

Aho abantu biyakirira cyangwa se basohokera mu gihe bashaka gutemberana n'imiryango yabo cyangwa se inshuti yabo. Haba hateguye neza hari ameza kandi haba n'ibyo kurya bitandukanye. Mu gihe umuntu arushye ashaka kuruhuka, haba ibyumba bishashe neza umuntu aruhukiramo.

Icyumba kirimo igitanda gishashe neza, ni aho umuntu ashobora kujya gucumbika mu mugihe bwamwiriyeho, cyangwa se mu gihe yatemberanye n'inshuti ze, cyangwa se n'umuryango we.

Hoteri ifite aho bogera hazwi ku izina rya pisine, imbere yaho hari amapave ku buryo umuntu uvuye mu mazi atakandagira mu bitaka, ndetse hari n'ubusitani.

Ahazwi nko muri hotel. Hano muri iyi hotel harimo icyumba gishashe neza ku buryo haramutse hagize umuntu ushaka gucumbika yacumbika nta kibazo.

Icyumba cyo muri hoteli umuntu ashobora kujya gucumbikamo cyebwamiririyeho cyangwa se igihe afite gahunda zo kutarara mu rugo, ni icyumba gishashe neza kirimo igitanda ndetse n'imisego ibiri, hari ameza ndetse n'inene umuntu yakwicaraho.

Inzu nini isa nk'aho ari hoteli. Haragaragara sale nini cyane abantu bashobora kwicara mugihe bari kuganira cyangwa bari gufata ibyo kunywa.

Inzu nini cyane igaragara nkaho ari hoteri cyangwa se moteri, imbere yayo hari indabo ziri mu ubusitani ndetse hari n'ahantu umuntu ashobora guhagarara mu gihe ari gusohoka muri iyo nzu.

Inzu nini izwi nka hoteli irimo ibyumba bitandukanye, ku buryo umuntu ashobora kujya gushakayo icyumba mu gihe adafite aho kurara kandi bagira n'ibiribwa bitandukanye.

Icyumba cyo muri hoteli, kigaragara ko kirimo igitanda gishashe neza, kirimo intebe zo kwicaraho, kirimo ameza ndetse n'imitako itandukanye. Biragaragara ko ari icyumba cyiza kandi kirimo isuku.

Inyubako ngari isakaje amabati y'umutuku, ni inyubako ya hoteri aho umuntu ashobora kujya gucumbikamo, mugihe yasohotse cyangwa se adafite aho kurara.

Igorofa rinini cyane, iri gorofa akaba ari hoteri yifashishwa mu gucumbikira abantu cyangwa se abifuza gufata ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, imbere yayo haparitse imodoka z'umukara.

Icyumba cyo muri hoteli cyifashishwa mu gihe habaye ubukwe kugira ngo hakirwe abantu benshi, harimo intebe ndetse n'ameza biteguye neza.

Ameza yo muri hoteli ateguwe neza. Hariho ibiryo byiza bitandukanye ndetse hariho n'ibyo kunywa bitandukanye.

Hoteli iri mu nyubako ngari cyane, imbere yayo haparitse imodoka, harimo ebyiri z'umweru, ndetse n'indi imwe y'umukara, ziparitse mu mapave, mu mwanya wabugenewe.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe ndetse n'ameza ateguye neza, iki cyumba abantu bashobora kukifashisha mu gihe bakeneye kuruhuka cyangwa se mu gihe baraye muri hoteli.

Isoko ririmo ibikoresho bitandukanye nk'ibikombe, amasahani, amasafuriya, amabase ndetse n'ibindi byifashishwa, mu rugo.

Ibikoresho bitandukanye biri mu isoko, harimo ibikoresho umuntu yakoresha arimo guteka, arimo gutegura ibyo kurya, ndetse n'ibirungo yashyira mu biryo, ndetse n'ibyo gushyiramo imyaka.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bigaragara ko bamwe baje guhaha, abandi bakaba baje gucuruza mu isoko, hari umugore uhetse umwana, bigaragara ko nawe we ari gucuruza imyenda.

Isoko ricururizwamo ibihingwa bitandukanye hamwe abantu bahurira kugira bajye guhaha, hari moto iparitse mu isoko bigaragara ko itwara imizigo kugirango ngo babashe kujya gucuruza.

Isoko rinini ririmo ibintu bitandukanye higanjemo imyenda, hari amapantaro ndetse n'amajipo, hagati yaryo harimo umuhanda uparitsemo moto iriho umuntu, ndetse hari kugendamo umumama.

Ahazwi nko muri resitora aho abantu bajya gufata ibiryo mu gihe bashonje cyangwa se ibyo kunywa, biragaragara ko hateguye neza ku buryo umuntu yagenda ari mu makipe, batanga ibyo kurya bya kumanywa ndetse n'ibya nimugoroba.

Aho bacururiza ibyo kurya bya saa sita, ibya nimugoroba ndetse n'ibya nijoro kandi umuntu ashobora no kujya kwakayo ibyo kunywa.

Inzu izwi ku izina rya resitora. Abantu bashobora kujya kwakamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Harimo abantu batandukanye.

Ibikoresho byo muri resitora ndetse n'amafunguro, haragaragara ko hari amafunguro, umuntu ashobora gukoresha saa sita cyangwa nimugoroba ndetse n'ibyo kunywa.

Umuhanda mugari uri kugendamo ikinyabiziga cya moto. Akaba ari umu motari uhetse undi muntu inyuma, bose bakaba bambaye kasike.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, haragaragaramo ikinyabiziga kizwi ku izina rya moto kikaba gihetse umufuka inyuma, kigeze aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda mugari urimo umuntu usunitse igare kuri iryo gare hakaba hariho amabati, hirya ye hari agasantire karimo imodoka, ibikoresho bya MTN ndetse n'abandi bantu benshi.

Umuhanda w'igitaka urimo igare, iryo gare ritwawe n'umuntu wambaye agapfukamunwa, akaba ahetse abantu babiri na bo bambaye udupfukamunwa, hagati yabo bahetse imizigo.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga, harimo umuntu utwaye moto ndetse ahetse undi muntu inyuma, hirya y'aho hari akayira kagenewe abanyamaguru kari kugendamo abagore babiri.

Igice cy'umuhanda mugari kirimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo abamotari batatu, ndetse n'imodoka y'umukara iri inyuma yabo.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibinyabiziga bizwi nka moto, bitwawe n'abantu buri wese umwe umwe.

Urujya n'uruza rw'abantu bavanze na moto bigaragara ko aba bantu bari kuba bagiye gutega moto, imbere yaho hari umuntu wambaye ijire y'abakozi ba MTN bigaragara ko abafasha mu gihe bashaka kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga.

Ibinyabiziga bitandukanye harimo abamotari bahetse abagenzi, ndetse n'undi mumotari udahetse umugenzi , imbere yabo hari imodoka.

Imodoka itwawe n'umuntu w'umugabo, yambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, biragaragara ko ari gutwara imodoka mu muhanda.

Umuhanda mugari urimo ikinyabiziga cya moto, kuri iyo moto hariho abantu babiri, uw'imbere biragaragara ko ari kugenda akoresha telefone kandi atwaye ikinyabiziga.

Umuhanda mugari uri kugendamo ikinyabiziga cya moto kikaba gitwawe n'umuntu, hirya yaho hari inzu ifite amarange y'umweru.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga, hakaba harimo umuntu utwaye igare, hirya ye hari undi muntu utwaye moto, iruhande rw'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo imodoka y'umweru itwawe n'umuntu ishobora kwifashishwa mu gihe hari nk'abantu bashaka kugira aho bajya.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, hari kugendamo igare, kuri iryo gare hariho umuntu uhetse igikapu uritwaye ndetse atwaye n'undi mugabo wicaye inyuma.

Umuhanda mugari muri uwo muhanda hakaba hari kugendamo moto, kuri iyo moto hariho umuntu umwe utwaye moto ,ndetse akaba ahetse icupa rya Gaz, biragaragara ko ashobora kuba ayishyiriye umuntu cyangwa se ayisubije aho bazikura.

Umuhanda mugari ugenderamo ibinyabiziga. Harimo umuntu utwaye ikinyabiziga cya moto, akaba ahetse undi muntu. Iruhande rwabo hari inzira igendamo abantu, hakaba harimo abantu bari kugendamo.

Umuhanda mugari ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo abantu batwaye amagare ndetse uw'imbere ahetse umugore, ab'inyuma atwaye ibindi bikoresho bitandukanye.